Ikigo cy'amashuri igishushanyo k'inyamaswa ku gasozi inyoni, abana babiri umwe ni umuhungu yambaye inifomu ishati y'inifomu ikabutura y'inifomu, undi nawe yambaye ikabutura y'inifomu, umupira ntabwo ari inifomu barimo bararunguruka mu ishuri.

Icyapa kimanitse kigaragaza ikigo cy'amashuri, inyigisho gitanga cyangwa ibyo kigenera abakigana, harimo na gahunda cyiyemeje, iki kigo kikaba cyigisha ibijyanye no kwakira abantu n'ubukerarugendo.

Abakozi bakorera ikigo runaka gishobora kuba ari ikigo cy'amashuri bambaye imyenda y'akazi, aho bamwe bambaye amajiri afite ibara ry'icyatsi kibisi n'akabara k'umweru, abandi bakaba bambaye amajiri afite ibara ry'umuhondo werurutse harimo n'akabara k'umweru.

Ikigo cy'amashuri gifite ubusitani bwiza, harimo akayira kanyura muri ubwo busitani kagakomeza kajya mu kigo, hateyemo indabo nziza zigaragara ko zitabwaho, hafi y'amashuri hateye ibiti biza n'akayaga, ukabona ko ari ibintu byiza cyane.

Abanyeshuri bicaye mwishuri bakurikiye mwarimu arimo arabigisha, abahungu n'abakobwa bamwe bambaye impuzankano, amashati, amapantaro n'imipira, abandi bambaye impuzankano, amashati, amapantaro nta mipira bambaye kandi batebeje.

Abanyeshuri bambaye iniforume, amashati umweru afite amaboko maremare, bakaba bambaye na karuvati, amajipo ajya kuba umukara ariko akaba atari umukara neza cyane, amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara, abanyeshuri bahagaze bameze nk'aho hari umuntu bari kumva ikiganiro ariko kuko urabona ko bose bafite icyerekezo kimwe cyo kureba ahantu hamwe.

Abanyeshuri bo muri Segonderi bahawe impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi bashimirwa ibyo bagezeho, iyi mpamyabushobozi mu yandi magambo yitwa seritifika, ikaba ari ishimwe uhabwa iyo hari icyo wakoze ukaba umaze kukirangiza, aba banyeshuri barabyishimiye ni umukobwa n'umuhungu biga muri Segonderi.

Ibishushanyo bigaragaza ko byaba bikozwe mu buryo bw'ibumba ariko n'ibishushanyo by'ibyo kurya imbuto hagaragaramo inanasi, imineke, pome ndetse n'ibindi.

Ibikoresho by'ububumbyi byakozwe mu mwuga w'ububumbyi aha ahantu ibikoresho biri habaye atari ku ishuri ryo muri kaminuzabari mu ishuri ryigisha imyuga bakababigisha ibijyanye n'ubukorikori bakabibanda ku bijyanye no kubumba kuko ibindi bikoresho n'iby'ububumbyi.

Mu kigo cy'amashuri ya kaminuza abanyeshuri baricaye barakurikiye, ishobora kuba ari inama iri kuba cyangwa se akaba ari abanyeshuri bari kwiga kuko bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubabwira kandi hakaba hari n'ikibaho yaba ari gukoresha yandika ibyo ari kubabwira.